Ni ahantu hari imbuga ngari, hahagazemo abantu benshi, harimo amamoto paritse, amagare, harimo amabara y'ubururu, yanditsemo ibirango bya Airtel ndetse hari n'abagabo babiri bambaye amataburiye, yanditseho ngo Airtel, arimo uturongo tw'umweru.

Icupa ryiganjeho amabara y'umutuku, ryandikishijeho amabara y'umweru n'ay'umuhondo n'umukara, handitseho ngo abusoliyute lasiperube. Mu bigaragara iri cupa ririmo inzoga cyangwa se ikindi cyo kunywa.

Urusengero rwubatikishije amatafari ahiye, rusakaje amabati y'umweru, rwanditseho ngo ''NERF Rwagitima church''. urusengero iruhande rwarwo hari umugezi uteye sima, iruhande hari utwatsi n'akayira.

Icyumba kiriho amarido y'umuhondo, umweru, umutuku, kicayemo abagabo, abenshi muri bo bambaye amakoti kositimu n'utuntu mu ijosi tugaragaza abapasiteri, harimo n'abandi bicaye inyuma harimo n'umudamu.

Ni mu rusengero rurimo ibihande bibiri, byicayemo abantu, abandi bahagaze, imbere hari abantu bahagaze ku ruhimbi, hari igishushanyo cy'umusaraba, ndetse iyo nzu yubakishije amatafari ahiye.

Ni umuhanda wa kaburimbo, iruhande hari udutafari tubumbye, hari icyapa cyanditseho ngo sitopu, imbere hari urusengero ruteye irangi ry'umweru ryandikijeho amagambo y'ubururu, hejuru rufite agasongero gasakaje amabati y'umutuku.

Icyumba gifite parafu y'umweru. Igikuta giteye irangi rijya gusa n'umuhondo. Hariho televiziyo, ni kintu kimeze nk'itara riri kwaka kuruhande. Icyumba kirimo amakaro, harimo intebe ziteretse imbere y'ameza. Harimo igitanda na tapi ijya gusa n'umweru.

Ni mucyumba, icyumba kirimo intebe z'imifariso, ziteye mu mpande eshatu, hagati y'izo ntebe harimo, akameza gakarambitseho ururabo rwiganjemo amabara y'umutuku n'umuhondo, ku bikuta hari amafoto.

Ni ahantu hateye irangi ry'umuhondo, n'irindi rijya gusa n'umuhondo, hasi hari iry'umukara, handitse epike hotel switisi, bigaragara ko ari ahantu hamwe ho muri hoteli.

Mu isoko hari umugabo uri kugenda, hari abandi badamu babiri, umwe yikoreye agafuka k'umuhondo, undi yikoreye igifuka kinini cy'umweru, afashe akadobo mu kuboko kw'ibumoso.

Mu isoko, isoko ririmo abantu benshi ririmo imodoka ririmo imitaka y'amabara atandukanye, muri iryo soko harimo umudamu wicaye wambaye agapira k'umutuku, harimo undi usutamye, harimo abahetse ibintu harimo n'ababyikoreye.

Ahantu hari abantu benshi, harimo abicaye harimo abahagaze, haparitse n'imodoka, abantu bafashe imyenda uwicaye afashe imyenda y'abadamu cyangwa se imyenda yo munda abadamu bambara izwi nk'amasutiye.

lsoko ry'ibiribwa, harimo inyanya, hari karoti ,hari imiteja ,hari ibishyimbo ,harimo abagabo babiri n'umudamu wicaye, uwo mudamu yambaye agakanzu ,gafite amaboko magufi k'umutuku, hanyuma umugabo umwe yambaye agapira k'ubururu.

Ni mu isoko hari amahema menshi ashashe hasi, amenshi arambitseho inkweto, andi arambitseho ibifuka, hari amagare apakiyeho ibifuka bigaragara ko harimo inkweto, hirya hari imyenda imanitse ku biti.

Inzu yubatse mu buryo bw'uruzeru, ikikijwe inyuma n'ibiti birebire bikuze, imbere yayo hari ibishushanyo byinshi, hari ik'inkende ifite umurizo muremure n'ibindi bishushanyo bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, kuruhande rwayo hari amapoto y'amashanyarazi. Mu muhanda hagati hari umugabo utwaye moto. Mu mahembe y'iyo moto harimo agafuka k'umweru.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu, agapfukamunwa k'umutuku kanditseho amagambo y'umweru, yambaye ishati y'umweru, ifiteho ikirango cy'umutuku ku gatuza, ari mu modoka nziza, inyuma ye hari banki yanditseho ngo Bank of Kigali.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto iriho umugabo, uwo mugabo yambaye kasike y'umutuku, inyuma ye hari undi utwaye igare, ku ruhande rw'umuhanda haparitse amamodoka atatu.